Umugabo uri kuvuga ijambo ry'abagabo kandi aho ni mu nama, ari kumvwa n'abandi bamukurikiye, afite ibikoresho by'ikoranabuhanga, nka mikorofone kandi hari abamukurikiye b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutabazi.

Abagabo b'abanyacyubahiro bambaye neza, basa neza. Bahuriye mu cyumba kimwe, kiberamo inama na bo bakaba bari mu nama ndetse kandi bari kumwe n'umusirikare wambaye impuzankano z'akazi, imbere yabo hari uducupa tw'amazi ndetse kandi hari ufite mudasobwa.

Ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe mu tente cyangwa se ikidara kikorerwamo ibirori kandi higanjemo abagabo, abagore ndetse n'abashinzwe umutekano na polisi kandi imbere yabo hari ameza.

Abanyacyubahiro bari mu nama, bakaba bafite amazi imbere yabo ku meza kandi rwose barasa neza bambaye neza. Harimo umugore umwe ndetse n'abagabo inyuma ye.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba kimwe gitangirwamo inama ndetse n'amahugurwa, bafite amakaye yo kwandikamo ndetse kandi bafite amazi yo kunywa. Bakurikiye ibyo bari kwiga imbere, ni urubyiruko rw'abasore.

Urubyiruko rwambaye impuzankano ruri gutaramira abitabiriye, bamwe mu bitabiriye bari gufotora ndetse kandi bishimye cyane ndetse abandi bari kubirebera ku bikoresho by'ikoranabuhanga cyane cyane kuri televiziyo cyangwa se za ekara.

Twitabire imikino twimakaza imiyoborere myiza n'umuco wo guhiga no kurushanwa ni igikombe cy'Umurenge Kagame Kapu, aho abagore ndetse n'abagabo bajya mu mikino bagatsindana bashaka ikipe ya mbere ni kuri mu kibuga cya Bugesera.

Abagabo, abagore ndetse basa neza, bambaye neza, bakaba bari mu cyumba cy'ahantu habereye inama, barasa neza, barakeye ndetse kandi bambaye n'imyenda ya FPR Inkotanyi.

Abagabo b'intarumikwa basa neza, bambaye neza bari mu cyumba cy'ama aho bicaye bari kwigishwa ibigendanye n'uburyo bayobora inzego bahagarariye.

Abantu benshi bicaye mu ihema harimo abagore bakuze ndetse n'urubyiruko kandi higanjemo n'abayobozi bashinzwe iby'umutekano nk'abapolisi ndetse n'abasirikare.

Abantu benshi bari gususurutsa abitabiriye ikirori cy'ubukwe, bari kubyina indirimbo z'umuco nyarwanda kandi babanguye amaboko bashyize hejuru nk'ay'inyambo, ni ahantu heza batatse hasa neza.

Agacuma kanini gafite umunwa muremure kakoreshwaga mu muco nyarwanda kakabikwamo inzoga cyangwa se iminywere, kakoreshwaga cyane cyane ku bantu babaga bafite amasaka cyangwa se ikindi kinyobwa cyabikwagamo.

Abantu benshi higanjemo abasaza ndetse n'urubyiruko, bari gukurikira ibintu byabereye muri icyo cyumba cyabateranyirije aho ngaho, barakurikiye kandi bari kureba imbere cyane ku muntu uri kubahugura.

Umwami ndetse n'abatware, kera babaga ari abantu bakomeye cyane nk'uwo twakwita umusirikare cyangwa umuyobozi w'umuperezida w'uyu munsi. Biyogosheshaga amasunzu.

Inzu ndangamurage yabagamo umwami, inzu yabaga yubakishije ibyatsi byinshi ndetse ifite n'igipangu cyangwa se urugo rw'ibiti n'ibyatsi.

Agacuma kandi karimo amarwa mo imbere banywa kakoreshwaga cyane mu muco nyarwanda ariko ubu uyu munsi ntabwo kakibaho, ahubwo bakoresha utujerekani n'ibindi.

Ababyinnyi b'imbyino nyarwanda, bari kubyina imbere y'abantu babakurikiye, kandi bari kwishima, abandi bambaye imyenda y'imyeru bari kubaterera indirimbo, kandi abandi barishimye bari kuvuza n'ingoma.

Ababyinnyi b'imbyino za kinyarwanda b'abakobwa babyambariye, bambaye imyitero ndetse n'utuntu hejuru mu mutwe kugira ngo basusururutse abitabiriye dore ko na bo babateze amaso.

Amazu menshi acucitse ahantu mu kagigi, hari amazu y'ubucuruzi kandi ayo mazu hakaba harimo ibintu bigendanye n'ubucuruzi, kandi hari amafoto agenda akwirakwiza amashanyarazi hirya no hino.

Inzu nziza yubatse neza itangirwakwamo ibigendanye n'amashanyarazi. Ni inzu ihuza ndetse ikaba ifite moteri zihuza imigozi ijyanwa n'amashanyarazi hirya no hino.

Umukobwa mwiza wambaye neza kandi akaba yambaye imyenda y'akazi, akaba akora mu bijyanye n'amashanyarazi ndetse kandi arikuvuga ku byateza imbere ndetse n'uruhare bagira mu bigendanye n'amashanyarazi mu kongera amashanyarazi hirya no hino.

Amapoto y'amashanyarazi agenda ajya mu bindi bihugu, ndetse agakwirakwira mu gihugu runaka ,afite umumaro munini aho ageze iterambere riba ryahageze, kuko bituma umuntu agira urumuri akamurikirwa.

Umugabo ukora mu bigendanye n'amashanyarazi, ari kuzinga imigozi afatanya n'indi ku ipoto, kandi iyo poto, iziritseho imigozi ijyana ikanohereza, amashanyarazi mu yandi mazu.

Inyubako y'urugomero rw'amashanyarazi igenda ikwirakwira impande n'impande z'igihugu ndetse ikambuka n'imipaka kugira ngo ibihugu ndetse n'amahanga yose abashe kugira urumuri ndetse kandi abashe kuba yagira amashanyarazi.

Umugabo w'umunyamahanga, wambaye ijiri ku rutugu ndetse akaba ari guhuza imigozi muri moteri itwara ndetse ikakira amashanyarazi kugira abantu babone urumuri ndetse n'ibikomoka ku mashanyarazi.

Ipoto rinini ryohereza ndetse rikakira imigozi, irohereza imigozi ijya hirya no hino ayo migozi ikaba ijyana amashanyarazi mu zindi karitsiye.

Umunyamahanga wambaye ingofero n'igisarubeti akaba ari kureba akoresheje indorerwamo, ari kureba ku rupapuro ndetse kandi ari mu gikomba gikorerwamo amashanyarazi.

Itara ryo ku muhanda rimurikira abantu bari mu muhanda, rikaba ari itara rifite ibyerekezo bibiri rimwe riri iburyo ikindi kiri ibumoso, kikaba gifasha abantu kugenda neza mu muhanda.

Umugabo wambaye indorerwamo, akaba yambaye n'umwenda w'akazi uzwi nk'ijiri, akaba ari hafi y'ibyuma by'ikoranabuhanga, bifatanya ndetse bikaba byahuza imigozi ijyana amashanyarazi.

Umuntu wuriye ipoto akaba ari kwesitaraho amashanyarazi, ari gushyiraho amakashipawa menshi kuri iryo foto kugira ngo ahereze ingo nyinshi amashanyarazi, inyuma ye hariyo undi muntu.

Umugabo wuriye ipoto, ukora mu bigendanye n'amashanyarazi. Akaba yambaye itaburiya n'ingofero, akaba ari gusuzuma imigozi ijyana ikohereza amashanyarazi hirya no hino.

Icyumba kiza gisa neza kandi gikozwe mu buryo bw'amashanyarazi ni ikigo gitanga amashanyarazi kuko kigaburira ahantu hose, gifite amakashi pawa menshi.

Umugabo uri ku ipoto, akaba ari ku rwego yamanitseho kugira ngo afate iryo poto, ahuzeho isinga zijyana amashanyarazi. Akaba ari kubikora kugira ngo zijyane amashanyarazi mu ngo hirya no hino.

Umuntu uri gutekinika ibigendanye n'amashanyarazi, akaba yuriye ifoto yambaye inkweto za cyuma mbiri z'ibyuma kandi akaba yambaye n'ingofero n'itaburiya y'ubururu, kaba ari gutekinika amashanyarazi.

Ahakorerwa ibigendanye no kongera amashanyarazi mu gihugu cyangwa se ku isi hose, ni urugomero runini ruriho rukorwa. hari amafoto y'ibyuma by'ikoranabuhanga biziritseho, imigozi ndetse hamwe abari mu butaka.

Ibiti byinshi byubatse ku muhanda ndetse uwo muhanda hakaba ari abantu bambukira bajya mu kindi gihugu. Ni inyubako iriho icyapa kigaragaza ko ari ukwambuka ujya mu kindi gihugu ndetse uva no mu kindi, winjira mu kindi gihugu.

Inyubako ya leta ndetse kandi ikaba ifite uburyo yubatse neza kandi hanze yayo hari ubusitani bwiza, hamanitse n'idarapo by'igihugu ifite ibice byiza biyikikije.

Kubaka ibikorwa remezo muri Nyagatare. Ikiraro cya Bibare, cyabaye igisubizo ku batabonaga uko bageza umusaruro wabo mu masoko ndetse uburyo banashoboraga, kandi ni ikiraro kiza cyane cyubatse neza.

Inyubako ya leta itangirwamo serivisi nziza zitandukanye. Ni ahantu heza, hari ubusitani bwiza, aho guparika imodoka ndetse kandi hari n'amatara yaka, kuko ni hafi y'umuhanda.

Umugabo uri ku igare ari kunyonga ndetse kandi ari mu muhanda wubatswe ndetse washyizwe mu bikorwa na leta, ndetse ari ku kiraro gihuza umusozi umwe n'undi hafi aho ngaho.

Inzu izwi cyane nko gutanga serivisi z'ubuvuzi iba ifite ibara ry'ubururu ndetse iteyeho n'amabati y'ubururu, itangirwamo serivisi z'ubuvuzi cyane cyane ko kiba ari ikigo nderabuzima cya hafi y'abantu.

Inyubako nziza cyane ifite ubwiza butangaje kandi ikaba itangwamo serivisi za leta kuko hari idarapo rigaragaza nk'ikimenyetso cya leta kandi ni inyubako ifasheho ahantu heza cyane.

Umupaka uhuza Uganda n'u Rwanda ndetse kandi hakaba hari icyapa kibigaragaza ndetse hafi aho, hari ikigo kinini cya leta.

Icyumba kinini kiza gitangirwamo serivisi zigendanye n'iza Leta hakaba imbere handitse ngo: "Urugo mboneza mikurire rwa Ryabega", ni ahantu hatangirwa serivisi ndetse hari n'intebe zihatondetse zicarwamo n'abantu baje kuhafata serivisi.

Inyubako zubatswe neza cyane zikorerwamo ubucuruzi ndetse kandi zikaba zihurirwamo n'abantu bagiye batandukanye ni isoko ndetse kandi ryubatse neza rifite aho gukorera heza kandi hegereye n'andi mazu ku mpande.

Urujya n'uruza rw'abantu bagenda mu muhanda afite amagare ndetse n'abagenda n'ibirenge, bariho baraturuka mu gihugu kimwe, abandi binjira mu kindi, ni ahantu hubatse hari amazu meza ndetse n'inyubako ndende.

Inyubako ya leta itangirwamo serivisi z'ubuyobozi. Kandi ifite icyo twakwita nka kandagira ukarabe cyangwa se urukarabiro kuko mbere y'uko umuntu wese uhageze arabanza agakaraba kugira ngo atagira imyanda asiga...

Inyubako za Leta n'ibikorwa remezo bikurura iterambere mu byo twavugamo umuriro w'amashanyarazi ndetse umuhanda mwiza, amatara akoreshwa muri sitade ndetse n'ibindi bishobora gutuma iterambere ry'igihugu rizamuka.

Icyapa kigaragaza igicumbi cy'itorero, Akarere ka Nyagatare, Umurenge wa Nyagatare, Akagari ka Nsheke, Umudugudu wa Nyegeza, indangagaciro, gukunda Igihugu, gukunda umurimo, ubunyangamugayo, ubutwari, ubumwe ndetse harimo za kirazira zitandukanye.

Imbaga y'abantu benshi biganjemo urubyiruko, bakaba ari imfungwa n'abagororwa ndetse bari kumwe n'abayobozi babo bari kurya ifoto, bari kwifotoreza hafi y'inzu bafungiyemo.

Umugore uhetse umwana ndetse akaba afite n'undi mu ntoki, ari kumujyana kwa muganga kandi bari mu muhanda bari kunyuramo bagenda n'amaguru.

Abantu biganjemo abakuru ndetse n'abana barigenra mu muhanda wa kaburimbo wubatswe na Leta, ndetse kandi hafi yabo hari inyubako nini ikorerwamo serivisi.

Inzu ntoya yubatse iringaniye ikaba ifite urugi rw'ubururu ndetse ikaba yanditseho ibiro by'Umudugudu wa Gakoma, ni ibiro by'umuyobozi w'Umudugudu wa Gakoma.

Inyubako nini yubatse kandi ikaba ifite ubusitani busa neza bukizamuka. Ndetse kandi yubatse n'ahatangirwa serivisi z'uburezi kuko ifite inzugi z'ubururu ndetse n'amabati asa n'atukura.

Abagabo batatu beza b'abanyacyubahiro bambaye neza, hakaba harimo n'uwambaye ikarita y'akazi, abandi bakaba bafite amakaye, bari kwigisha ku kigendanye n'akarengane gakorerwa abantu ndetse n'uburenganzira bw'umwana kandi cyangwa se ikiremwamuntu icyo ari cyo cyose.

Abantu benshi bicaye hamwe ndetse bakaba bicaye munsi y'ibiti biganjemo abana, abagabo, urubyiruko rw'abasore n'abakobwa, kandi bari kwigira hamwe ku kigendanye n'uburenganzira bwa muntu no gukuraho akarengane.

Umupolisi wambaye impuzankano z'akazi ari gutanga ikiganiro ari hafi y'agatuti kandi afite mikorofone ari gukoresha arikuvuga uburenganzira bwa muntu ndetse n'akarengane gakorerwa abantu.

Umugabo w'umunyacyubahiro wambaye neza kandi ugaragara neza bari munsi y'igiti ari kwigisha abaturage ku bigendanye n'uburenganzira bwa muntu ndetse no gukuraho akarengane kagenda kagaragara mu baturage.

Abagabo, abagore ndetse n'abanyeshuri bicaye inyuma yabo bari mu cyumba kinini, bari kwigishwa ku bigendanye n'uburenganzira bw'umwana kandi no gukuraho akarengane mu miryango ndetse n'ahandi.

Inyubako y'urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi muri Nyagatare akenshi na kenshi iyo hagiye kwibuka abazize jenoside hacanirwa umuriro kugira ngo hibukwe ndetse banazirikana abazize jenoside.

Abantu benshi cyane, bicaye ahantu mu murima ndetse kandi bafite amasuka nk'abantu bamaze gukora umuganda kandi imbere yaho hari abahagaze b'abakobwa n'abagabo, umwe afite mikorofone.

Abayobozi b'abanyacyubahiro, higanjemo n'abayobozi b'umutekano nk'abasirikare n'abapolisi, bambaye imyenda y'impuzankano, abapolisi n'umukara ndetse abasirikare ni ukwabo nayo, isa n'icyatsi kibisi.

Ahantu hateraniye imbaga y'abantu benshi, harimo abanyiricyubahiro ndetse bambaye neza, abagore, abagabo basa neza. Ku ruhande rwabo kandi hariyo umupolisi, ufite inkoni ndetse uri kubacungira umutekano.

Umuhanda munini unyurwamo n'abantu ndetse n'ibinyabiziga hubatse amazu ndetse kandi unyurwamo n'amapoto ajyana amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye, ni umuhanda uba urimo n'ibimenyetso by'umuhanda nko kuyobora abashoferi ndetse no gufasha abashoferi gukoresha umuhanda neza.

Imodoka zizwi nko gutanga serivisi zo gutwara abantu n'ibintu akenshi zitwara abantu zihuta kugira ngo abantu bagereyo amahoro kandi bagire ibyo bakora batunganya mu buzima bwabo.

Icyapa cyanditseho Karangazi, kikaba ari icyapa ndanga, cyegeranye n'ibimera nk'imigano ndetse kandi amapironi atwara imigozi y'amashanyarazi iyajyana hirya no hino.

Umuhanda ugendwamo ibinyabiziga ndetse n'abantu ni muhanda muremure kandi wa kaburimbo, ahagana hafi y'aho hari amazu meza y'ubucuruzi kandi acuruza ibintu bigiye bitandukanye dore ko n'imodoka zijya kurangura zizanye muri ayo mazu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga cya lifani, ni moto ifatanye n'ikindi itwariramo ndetse ikanahekeramo kandi ku ruhande rw'uwo muhanda hari amazu menshi y'ubucuruzi.

Umuhanda munini wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye. Harimo haranyurwamo imodoka ya horizo itwara abantu n'ibintu kandi ikabageza aho bagira amahoro.

Umuhanda mugari, munini wa kaburimbo uri hafi y'amazu kandi atangwamo serivisi y'ubuvuzi, hari icyapa kiyobora abantu bose cyanditseho ngo ivuriro bigaragara ko hafi aho hari ivuriro rivura.

Aga center keza cyane, aho bacururiza ingofero, amasogisi, imyenda ndetse kandi hari abantu bicaye kuri moto kandi zitari kugenda.

Imbaga y'abantu benshi, abicaye, abahagaze, harimo abagore, abagabo, abasore n'inkumi. Kandi bakaba bari kwigirira ndetse banigishwa uburyo bacunga umutekano wabo.

Abayobozi b'abanyacyubahiro biganjemo abagabo n'abagore ariko hakaba hicayemo abashinzwe umutekano nk'abapolisi, abasirikare bakaba bambaye impuzankano bateraniye mu itente imwe.

Abantu benshi, higanjemo urubyiruko, abagore, abagabo ndetse mbere yabo hari umugabo wambaye bote, akaba ari kubigisha, uburyo bwo kuba baba ijisho rya mugenzi wabo.

Abantu benshi bateraniye hamwe harimo abana, abagabo ndetse n'abagore n'urubyiruko, bari ahantu hafi y'urutoki ni ho bicaye bari kumva ibyo bari kwigishwa ndetse harimo n'umugabo ufite mikorofone ugiye kuvuga.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, ndetse kandi higanjemo urubyiruko, ndetse rw'abakobwa, abahungu, ndetse kandi imbere yabo hari umusirikare uri kubabwira uburyo kibakwiye kwirindira umutekano.

Abagabo b'abanyacyubahiro ndetse n'abagore, bariho barakora umuganda ahantu hari igihuru, hafi y'umuhanda bakaba bari gukumira banakuraho ibihuru byose byariho bigera mu muhanda.

Abayobozi bicaye ku ntebe ndetse kandi harimo umusirikare wambaye impuzankano harimo kandi n'umuporisi ku ruhande wambaye impuzankano z'akazi ndetse ku ruhande rwabo hari umugabo ufite mikorofone ari kwigisha abateraniye ahongaho.

Abantu benshi harimo abicaye ndetse n'abahagaze kandi higanjemo urubyiruko kandi n'abantu bakuru, imbere yabo hari umupolisi uri kubigisha ibintu bigiye bitandukanye.

Imbaga y'abaturage ndetse n'abayobozi batandukanye, harimo abasirikare, abapolisi bari kumwe n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, hari umusirikare uri gusuhuza abitabiriye.

Amatente yubatse ahantu ndetse hakaba harimo abantu bagiye batandukanye harimo urubyiruko ndetse n'abantu bakuru, bateraniye ahantu hamwe bafite intego igira iti "Duhamye umuco w'ubutore ku rugerero rwo kwigira".

Abagabo harimo aboroheje n'abakomeye bahuriye mu gikorwa cy'umuganda bari gukorera hamwe ndetse kandi harimo n'abana bakiri bato bateruye amabuye bajyanye ahantu kubaka mu buryo bwo kwicungira umutekano no kubaka igihugu.

Umugabo wambaye ingofero ndetse akaba yambaye n'ishati nziza afite mikorofone ari gutanga ikiganiro kigendanye n'imiyoborere ndetse kandi n'umutekano, ari inyuma ndetse ari inyuma y'abandi bamukurikiye akaba ari hafi y'abandi bagabo bicaye.

Abantu benshi harimo abaturage b'abagore, abagabo ndetse n'urubyiruko bicaye hasi abandi bahagaze, kandi bafite amasuka bicaye ahantu mu murima hari ibimera by'icyatsi kibisi, kandi bari kwigishwa ibigendanye n'umutekano.

Imbaga y'abantu bagiye batandukanye harimo abaturage, abayobozi, abapolisi, abasirikare bari gukora igikorwa cy'umuganda bamwe bafite amabuye barayajyanye kugira ngo bubakire umuntu cyangwa se umuntu wahuye n'ibibazo byo kubura aho aba.

Abagabo b'abanyacyubahiro basa neza, harimo abayobozi, harimo abapolisi, harimo abasirikare, harimo aba DASSO n'abaturage basanzwe bari gukora umuganda bafatanyije, bamwe bafite itafari rya rukarakara, bari kubaka.

Abantu benshi harimo urubyiruko ndetse n'abashinzwe umutekano nk'abasirikare ndetse n'imodoka zabo ziparitse inyuma, baje gukora umuganda bakuraho ibihuru bikurura imibu.

Abantu benshi cyane harimo abashinzwe umutekano, ndetse n'abakorerabushake bambaye amajire harimo abasekirite ndetse harimo abadaso, abasirikare n'abandi.

Abaturage higanjemo n'abasirikare, abapolisi ndetse n'abadaso, bari gukora umuganda mu buryo bwo gucunga umutekano kandi bafatanyije n'abaturage bo muri ako gace ka giturage.

Imbaga y'abantu benshi cyane bicaye muri salle nini cyane iberamo inama ndetse ikaba yitabirwamo cyane nabantu harimo urubyiruko, abagabo, abasore ndetse n'abagore.

Imbaga y'abantu benshi bari mu muhanda mu gihe cyijoro bari kwirukanka cyane mu muhanda, bambaye imyenda ya siporo nk'abari gukora siporo kandi ni benshi bari kunyura ku bandi bari mu muhanda.

Ikipe nini ikomeye yambaye amajezi ari mu bwoko bw'ayikipe ya Polisi yambara ndetse kandi bari kwifotoreza ku kibuga kinini. Bambariye impuzankano zisa z'amajezi n'amasogisi.

lmbaga y'abantu benshi bari mu muhanda, bari gukora imyitozo ngororamubiri bambaye imyenda ya siporo, amatiringi cyangwa se amakabutura ,imbere yabo hari umuntu uri kubibafasha, barazamuka bakagaruka hasi ,basimbuka bongera bagaruka.

Ikipe iri gukina, imwe yambaye amajezi y'ubururu ndetse indi yambaye umuhondo, bajyanye umupira, bari gutsinda, bari mu kibuga gisa neza, gifite ubwiza butangaje.

Urubyiruko rw'abahungu babiri kandi nyuma yabo hari abandi bakuru babarimo, bari kugaragariza abitabiriye ikimenyetso cya siporo mu buryo bwo kubagaragariza ibyiza byazo.

Abasore bambaye impuzankano ya siporo bari kwirukankana umupira, bari gukina mu kibuga cyamabuye ndetse harimo ivumbi ryinshi cyane, harimo abandi bakurikiye uwo mukino.

Abana benshi higanjemo abana b'abakobwa ndetse n'abana b'abahungu. Bicaye ahantu bagira ngo bari kureba umupira. Kandi bari kwishima, bari guseka cyane.

Abana bari gukina umupira w'amaguru harimo abambaye amajezi atukura n'ay'ubururu kandi nyuma yaho hari abafana baje kureba umupira ndetse bari kwiruka cyane.

Umukobwa uri kugenda mu gahanda gatoya k'abanyamaguru. Akaba ari kugenda avugira kuri telefone, hirya ye ndetse no ku ruhande rwe, hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abantu kandi ukaba ari umuhanda wa kaburimbo uteyemo amatara, araka akaka nijoro kugira ngo ibinyuramo byose bimurikirwe habe habona kandi hakeye.

Umuhanda wa borodire ugenda unyurwaho n'abantu bagiye batandukanye, hafi yinzu kandi ifite ubunini bunini nko mumijyi kandi hafi yawo hari ubusitani bwiza, kandi butemo ibyatsi.